Umugore usutamye akenyeye igitenge, ndetse ateze igitambaro mu mutwe, ari guseka afashe ku gihingwa, hirya ye hari ibyatsi, abantu ndetse n'amazu atuwemo n'abantu.

Inzu isize irangi rya beje ndetse hashushanyijeho urunyanya, karoti, igitunguru hamwe n'umutwe w'inka kandi iyo nzu ifite amadirishya y'ibirahure.

Ahacururizwa ibintu bigiye bitandukanye hazwi nko muri alimentation, hari utujerekani turi mu mabara atandukanye harimo uducururizwamo amata ndetse n'utundi ducururizwamo amaji.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru ndetse inyuma ye hari akabati karimo ibicuruzwa acuruza bigiye bitandukanye kandi biri mu mabara atandukanye, hari ibiri mu mabara y'umutuku, umweru, icyatsi, umuhondo n'ayandi.

Abantu bambaye imyenda itandukanye. Muri bo hari umugabo wunamye iruhande rw'igiti cy'ikawa gifite amababi y'icyatsi ndetse n'imbuto zitarera. Uwo mugabo yambaye ishati ya karokaro y'amaboko magufi.

Abantu bari mu murima w'ibigori uhinzwe ku buso bunini, harimo abari kubibagarira kugira ngo bizatange umusaruro ndetse hari umugore ufite akabogisi k'umweru mu kiganza cy'ibumoso, arunamye yafashe ku kibabi cy'ikigori.

Umuntu uhetse ipombo, ari gutera umuti igihingwa cye kugira ngo kizamuhe umusaruro uhagije, kandi hirya y'umurima ari gutereramo umuti hari indi mirima ihinzweho ibintu bitandukanye.

Imifuka iri mu bubiko, igiye irimo ibintu bigiye bitandukanye kandi iyo mifuka higanjemo ibara ry'umweru, icyatsi n'ayandi, hirya y'aho hari akabati gapanzemo indi imito mito.

Ahacururizwa ibikoresho bikoreshwa mu buhinzi, harimo rozwari, ndetse hari n'utudebe duto turimo imbuto batera. Kandi akabati birimo gafite ibara rya shokora.

Abantu batanu harimo abambaye ibisurubeti bifite ibara ry'ubururu ndetse n'uwundi wambaye igisurubeti gifite ibara ry'umutuku, bose bahetse amapombo mu mugongo, bari gutera umuti igihingwa gihinze ku buso bunini cyane.

Abahinzi bari guhinga mu mirima itandukanye, muri bo harimo abagore, abagabo ndetse hirya no hino hagiye hari ibiti, hari umugore ufite isuka mu ntoki ukenyeye igitenge kandi yambaye agapira k'amaboko maremare gafite ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo abantu babiri umugabo n'umugore ndetse hari ameza ateretseho mudasobwa, n'utubati tugiye turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aba bombi bacuruza, kandi hejuru muri prafo harimo camera.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru, ari ahacururizwa imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye zikoreshwa mu buhinzi kandi hari na ruzwari ndetse n'amapombo byifashishwa ku muntu wahinze kuko abyifashisha avomera ndetse anatera umuti.

Abagore n'abagabo bari mu murima w'ibigori uhinze ku buso bunini kandi mu buryo bwa kijyambere bugezweho, harimo abambaye ingofero zifite ibara ry'umweru n'abandi bambaye izifite ibara ry'ubururu ndetse hari umugore ufite ibase mu ntoki.

Inzu icururizwamo ibyerekeranye n'ubuhinzi, hari amakaro afite ibara ry'umweru kandi, hari ikarito ifite ibara rya kacye ihateretse. Icyo cyumba gikingishijwe n'urugi rw'umweru rufite serire.

Icyumba gisize irange rya beje, kirimo umugabo wambaye imyenda y'imikara ndetse arunamye afashe ku mufuka, hirya ye hari indi mifuka igiye itandukanye kandi harimo ufite ibara ry'icyatsi utarimo ibintu.

Ibiganza bibiri byambaye uturindantoki, byombi byayoye ifumbire ikoreshwa nk'inyongeramusaruro, biyikuye mu mufuka ufite ibara ry'ubururu ndetse iyo fumbire isa umweru.

Ahantu bacuruza ibintu bigiye bitandukanye hazwi nko muri alimentation. Harimo utujerekani turimo ibyo kunywa by'amoko atandukanye harimo uturimo amata, amaji n'ibindi.

Abantu bari gutunda ifumbire, umwe arunamye ari kuyoza igitiyo iyo fumbire kandi undi afashe mu mufuka ari kumufasha gupakira, inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse hari n'ibyatsi.

Umugabo uri mu murima we yahinzemo, ahetse ipombo ari gutera umuti kugira ngo igihingwa yahinze kizamuhe umusaruro, yambaye bote n'ipantaro by'umukara ndetse n'agapira karimo amabara atandukanye, inyuma ye hari insina.

Ahantu bacururiza ibyerekeranye n'ubuhinzi, hari akabati karimo utudebe duto ducuruzwamo imbuto za karoti kandi inyuma y'utwo tudebe hashushanyijeho karoti.

Abantu benshi bari mu murima uhinzemo ibigori bikiri bito, harimo abagabo n'abagore, ndetse bari kugenda bashyiraho ifumbire kugira ngo, bongere umusaruro w'ibyo bigori. Kandi hirya y'uwo murima, hari amazu n'ibiti.

Abantu bari mu murima w'ikawa. Bambaye imyenda y'amabara atandukanye, muri bo harimo umugore wambaye ingofero y'umukara, agapira gafite ibara ry'umutuku, karimo n'uturongo tw'umweru, ari gufumbira ikawa imwegereye.

Abantu benshi bari mu murima w'ibigori uhinze ku buso bunini kandi iki gihingwa ni cyiza ku muntu wagihinze kuko kimugirira akamaro ndetse n'Igihugu, muri uyu murima hagiye harimo ibiti bivangwa n'imyaka.

Inyubako icururizwamo imbuto zigiye zitandukanye, harimo inyanya, karoti, beterave ndetse n'ibindi kandi izo mbuto zigiye ziri mu ducupa tuzifasha mu kubikwa neza ndetse ziri no mu kabati gasize irangi ry'umweru.

Ahantu hari ibyatsi ndetse hari n'imitumba y'insina batemye myinshi iharambitse igiye igerekeranye, aho hantu hari urutoki, amakoma n'ibindi.

Umurima uhinze ku buso bunini, kandi urimo insina ziteye ku buryo bugezweho bwa kijyambere, ndetse uwo murima ntabwo urimo insina gusa ahubwo urimo n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe gifite ibara rya pinki, asutamye mu murima yahinzemo beterave. Ndetse mu kiganza cye afite izo yasaruye, areberaho ko zeze kugira ngo azijyane ku isoko.

Ibihingwa bihinze ku buryo buvangavanze ntabwo bitanga umusaruro uhagije. Ni byiza ko umuntu aba agomba guhinga igihingwa kimwe mu murima kugira ngo gitange umusaruro, akagitandukanya n'ikindi.

Umuhinzi agomba kubanza guhumbika ingemwe kugira ngo zibanze zikure zigere igihe cyo kugemurwa, maze agahinga umurima akawutunganya neza kugira ngo azawugemuriremo.

Igitoki keze neza, ndetse kizatanga umusaruro. Ibitoki ni bimwe mu bigira umumaro kubera ko byengwamo inzoga, bikaribwa nk'imineke ndetse abantu bakanabiteka. Iki gitoki rero cyahinzwe ku buryo bwiza kandi kizatanga umusaruro.

Umurima munini uhinze ku buso bunini cyane, uhinzaho ibigori bya kijyambere byeze neza kandi ibi bigori bizatanga umusaruro kuri nyirabyo ndetse no ku gihugu muri rusange.

Abagabo n'abagore bunamye abandi barasutani, bari gushyira itaka ndetse n'ifumbire ahantu bagiye guhumbika imbuto zabo kugira ngo bazabashe kuzitera bazigemurire ahantu bazahinga, inyuma yabo hari ibyatsi.

Umugabo wambaye ingofero ari mu murima w'ibigori uhinze ku buso bunini ndetse yabihinze ku buryo bwa kijyambere, ahetse ipombo ari kubitera umuti kugira ngo awurinde nkongwa.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, muri uwo murima harimo ibigori, insina kandi hari n'igiti kinini cy'umwembe, gifite amababi y'icyatsi, hariho n'imbuto z'imyembe zitarera neza zikiri ibitumbwe.

Igihingwa K'ibigori gihinzwe ku ubuso bunini kandi umuhinzi yagihinze ku buryo bwa kijyambere bugezweho, ibi ngibi bizamufasha kubona umusaruro uhagije ndetse asagurire n'amasoko.

Umugabo uhagaze, ari mu murima we yahinzemo urutoki. Kandi ikiganza cye cy'ibumoso gifashe terefone, ndetse uwo murima urimo ibyatsi bigiye bitandukanye, byamereyemo.

Abantu benshi usanga mu ngo zabo batunze imbwa kugira ngo zibafashe mu kwirindira umutekano, ndetse iyo imbwa hari nk'umuntu uyendereje iramurya kandi iyo yasaze ishobora kukurya ugapfa.

Inkwavu za kizungu zorowe ku buryo bugezweho bwa kijyambere, izi nkwavu zigiye ziri mu moko atandukanye kubera ko zifite n'amabara adasa, ziri kurya ibyo kurya bazizaniye.

Umuhinzi w'umukobwa yambaye bote z'umukara ndetse yambaye n'ipantaro n'umupira w'amaboko maremare, mu mutwe we harimo ibisuko ndetse yambayemo n'ingofero arunamye ari gusasira imyaka yahinze.

Abantu bari guhinga akarima k'igikoni bateramo imboga, ndetse harimo umugore ukenyeye igitenge wambaye n'agapira k'amaboko magufi, kandi hirya yabo hari insina.

Abagabo babiri bari guseka, bishimira umusaruro bagize mu buhinzi bwabo, inyuma yabo hari inzu ifite idirishya n'urugi by'ibiti, kandi hirya y'iyo nzu hari ibyatsi n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umuntu uri mu murima munini uhinzwe, yambaye bote ndetse mu mutwe yambayemo umupira w'ingofero ufite amabara agiye atandukanye harimo iry'umuhondo, umukara ndetse n'irindi bara risa n'ivu, hirya ye hari amazu ndetse n'ibiti.

Abantu bari kubagara ibihingwa, harimo umugore wambaye ingofero y'umukara, agapira k'umweru, ndetse na bote z'umukara. Afite ibisuko ku mutwe, Kandi hirya hari n'undi ukenyeye ibitenge birimo amabara agiye atandukanye.

Umugabo wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara ndetse yambaye n'inkweto za bodaboda zifite ibara ry'icyatsi. Ari mu kayira aho ari gutaha avuye guhinga ndetse no gutema ibigori, hirya ye hari ibiti.

Umukobwa wunamye, yambaye agapira k'amaboko magufi, ndetse afite n'ibisuko ku mutwe, ari kureba ingemwe ze aho yazihumbitse ngo arebe ko zageze igihe cyo kugemurwa, hakurya y'ahantu ari hari amazu menshi.

Abantu batandukanye bari mu muhanda bari kwikorera umuganda kugira bazabashe kujya baca ahantu hameze neza hatari urume, kandi aho bari gukorera uwo muganda hakikijwe n'ibimera bitandukanye harimo urutoki, ibiti, ndetse n'ibindi.

Abantu benshi bambaye imyenda igiye iri mu mabara atandukanye, bari guhinga ahantu ku buso bunini kugira ngo bazabone umusaruro uhagije, ndetse hirya yabo hari ishyamba ryinshi cyane.

Abagore babiri bari mu murima bahinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, muri byo twavugamo ibigori, kandi bose bakenyeye imipira ndetse umwe yambaye ingofero mu mutwe, hari n'umugore witeze agatambaro.

Umugore ufite isuka, ari guhinga mu murima w'ibigori, ndetse wagiye umeramo ibyatsi. Inyuma ye hari igihuru, ndetse hakurya ye hari amazu atuwemo n'abantu.

Umurima muremure ahagana ku musozo hari abahinzi bari kusa ikivi kugira ngo basubire inyuma bateremo imyaka kandi ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye hamwe n'ibimera.

Ahantu hari abantu benshi, harimo umugabo wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu, n'ipantaro y'umukara. Arunamye ari kureba umusaruroro we w'amashu, uko wagenze. Hari n'abandi bagore bunamye, ahantu hari karoti.

Abantu bambaye imyenda igiye itandukanye. Bafite ibitiyo bari gukora umuganda. Kandi muri abo bantu higanjemo abambaye bote z'umukara ndetse hari n'umugore wambaye agapira gafite ibara ry'umweru k'amaboko magufi.

Abantu bahagaze mu murima urimo ibyatsi ndetse uteyemo n'ibigori. Harimo abambaye imipira isa y'icyatsi ndetse hari n'umugabo wambaye ikote rifite ibara rya kake. Inyuma yabo hari ibiti byinshi ndetse n'amazu atuwemo n'abantu.

Abantu bari mu murima bari guhinga, umurima urimo ibyatsi byinshi kandi hirya y'aho hari urutoki rugiye ruteyemo ibiti bitandukanye.

Abantu bari gucukura icyondo kugira ngo bagikate bacyubakishe kandi hari n'abagore bari kubavomera amazi bari bukoreshe mu gihe bari gukata, hirya yabo hari ibiti by'amoko atandukanye.

Mu isoko ahacururizwa ibintu bigiye bitandukanye ndetse harimo aho bacururiza ibitoki, uyu musaruro weze neza kubera ko uri mu isoko ari mwinshi.

Isoko rinini ry'imbuto, aho harimo ubwoko bw'imbuto zigiye zitandukanye. Zimwe muri izo mbuto ni imineke, pome, amacunga ndetse n'avoka hamwe n'izindi.

Imifuka iri mu bubiko, iri mu mabara agiye atandukanye. Hari ifite ibara ry'umuhondo, ndetse inyuma hari amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku n'umukara, kandi hari n'indi mifuka iri mu ibara ry'umweru iri hirya yayo.

Abantu benshi cyane higanjemo abagore bari ahacururizwa ibitoki, hagati muri abo bantu harimo igiti kinini gifite amababi ndetse n'amashami menshi.

Abahinzi benshi bari mu murima uhinzemo ibigori ku buso bunini cyane, barimo kubibagarira kugira ngo bazabashe gutanga umusaruro kandi bamwe muri bo bambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo n'ayandi.

Isoko ry'ibiribwa ririmo abantu benshi baturutse imihanda yose baje guhaha, harimo imifuka ipakiyemo ibicuruzwa ndetse hari n'ahari ibitoki hamwe n'umuntu wunamye agiye kugura imyumbati.

Igihingwa cy'ibigori gihinzwe ku buso bunini cyane. Kandi hafi y'ibyo bigori hagiye harimo ibyatsi, hamwe n'amazi atemba. Ndetse hakurya yabyo hagiye harimo ibiti bitandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse ahagaze hagati y'imifuka basaruriyemo umuceri, kandi inyuma ye hari abandi bantu, harimo uwambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku ndetse bari mu gishanga gihingwamo umuceri.

Ahantu hari imifuka ifite amabara agiye atandukanye kandi igiye igerekeranyije, hari ifite ibara ry'umweru, irya kake, icyatsi ndetse hari n'ikarito yanditseho ijambo Sanlam.

Abantu benshi, bamwe barahagaze ndetse hari n'abunamye bari gukora mu musaruro wabo w'ibigori banitse kuri shitingi ifite ibara ry'umweru. Hirya y'aba bantu hari umurima w'ibigori bari gutema kandi hirya yaho hari n'amashyamba.

Mu isoko ahacuruzwa ibintu bigiye bitandukanye, hari agace bacururizamo inyanya, karoti, inoryi, ibitunguru, pavuro ndetse n'ibirungo kandi hirya y'aho bahacururiza imyenda y'ubwoko bugiye butandukanye.

Ahatunganyirizwa igihingwa cya avoka kugira ngo kijyanwe hanze y'igihugu kandi muri iyi nyubako harimo ibikoresho bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umuhondo, umutuku, icyatsi n'ubururu, babikamo voka zamaze gutunganywa.

Urutoki ruhinze ku buso bunini cyane kandi hagati muri urwo rutoki hagiye harimo ibindi biti by'amoko atandukanye, hafi yarwo hari urubingo ndetse hakurya yarwo hari ishyamba.

Ahantu bubakiye kugira ngo bazabone uko bazajya bahasarurira umusaruro mwinshi w'ibigori, kandi ibi bigori biba byanitswe neza ku buryo nta kintu kibi cyabibaho.

Igihingwa cy'ibigori cyasaruwe kiranikwa, none hano hari abantu bari kubishishura kugira ngo babivungure bazabijyane kubishesha, ndetse bizabaha amafaranga kubera ko babihinze ku buryo bwa kijyambere bugezweho.

Isoko ririmo imbuto z'ubwoko bwinshi butandukanye, muri izo mbuto harimo amatunda ari mu mufuka w'umweru ndetse uwo mufuka ukaba uteretse ku gataburete kandi hari na pome, inanasi ndetse n'amaronji.

Abantu benshi bambaye imyenda iri mu mabara agiye atandukanye, harimo umugabo wambaye ingofero y'umukara ndetse n'umupira ufite ibara ry'icyatsi n'ikora rya oranje yambaye n'ipantaro y'umukara, imbere yabo hari umusaruro w'ibitoki byeze neza.

Abahinzi basaruye ibigori kandi byeze neza kubera kubihinga ku buryo bwa kijyambere, harimo abagore n'abagabo ndetse muri bo harimo abitwikiriye imitaka.

Insina zihinzwe ku buryo bwa kijyambere, aho umuhinzi wazihinze yagiye asiga umwanya hagati y'insina n'indi, kandi ibi bizamufasha kubona umusaruro mwinshi kubera ko yazihinze mu buryo bwiza.

Umugabo wambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru. Agapira yambaye karimo amabara y'umukara, umuhondo n'umutuku, iruhande rwe hari intebe, kandi hirya ye hari aho banitse ibigori byinshi kandi byeze neza.

Ahantu hahinze gereveriya nyinshi kandi muri uwo murima harimo n'ibigori, gusa ibi bigori ntago bihinze ku buryo bugezweho kubera ko byegeranye cyane, ibi bigatuma bimwe bitera neza.

Ahantu hateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye, muri byo harimo urubingo, bararwahira bakarushyira amatungo kandi inka yariye ubu bwatsi itanga umukamo uhagije.

Ahantu hari ibyatsi by'ubwoko bugiye butandukanye ndetse hari n'insina zifite amakoma agitoshye ndetse n'andi makoma yumye, aho hantu hari kuva izuba.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, muri ibyo bihingwa harimo ibigori ndetse hari n'insina ziteye muri uwo murima, hirya yawo hari ibiti birebire bifite amashami ndetse n'ibibabi.

Umuhanda w'igitaka ndetse hirya y'uwo muhanda hari insina, ibyatsi by'amoko agiye atandukanye ndetse n'ibiti birebire bifite amababi n'amashami menshi.

Ahantu hari inzu isize umucanga kandi fondasiyo yayo yubakishije amabuye, isakaje amategura kandi ikikijwe n'ibiti, muri ibyo biti harimo ibya gereveriya ndetse hari n'insina.

Ahantu hari ibiti byumye ndetse hari n'ibitaruma bifite amababi y'icyatsi hamwe n'uturabo dufite ibara ry'umuhondo kandi ibyo biti biboneka mu ishyamba usanga bivuyemo n'imiti gakondo.

Igihuru cy'imihengeri ifite uturabo twa pinki kandi hafi yacyo hari n'ibindi byatsi, kandi hirya inyuma yacyo hari inzu isakaje amategura ndetse iriho n'amakositara.

Ahantu hari ibyatsi ndetse n'ishyamba rinini cyane kandi ridufasha mu kuyungurura umwuka mwiza abantu duhumeka, ndetse ikindi kintu ishyamba ridufasha, ni uko rikurura ba mukerarugendo bityo igihugu kigatera imbere.

Ahantu hari ibyatsi byinshi bitoshye cyane kandi ibyo byatsi bikikijwe n'indabo ziteye ku murongo, aho hantu hari kuva izuba kuko haragaragara neza.

Ahantu hari ubusitani burimo indabo ndetse n'ibyatsi kandi ubu busitani butuma ahantu hagaragara neza ndetse bikerekana ko aho hantu hari umucyo n'isuku ihambaye.

Umukobwa wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya oranje, ndetse hari amagambo yanditse imbere ari mu ibara ry'umukara. Ari mu murima yahinzemo ibikomfitoro, kandi ari kureba ko byeze kugira ngo abisarure.

Akarima k'igikoni gahingishijwe ifumbire ndetse gateyemo imboga nziza za kijyambere, kubakishije ibiti hamwe n'imifuka, kari hafi y'umuhanda w'igitaka.

Igikuta cyubakishije amatafari ahiye kandi hari ibyatsi byarandaranze kuri icyo gikuta. Imbere yacyo hari ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye ndetse z'amoko menshi.

Ahantu hari ubusitani burimo indabyo ndetse n'ibyatsi, kandi hirya yaho hari ibiti birebire by'amoko agiye atandukanye n'amazu harimo isize irangi ry'umweru.

Mu nzu icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, hari umunzani umucuruzi apimisha kugira ngo atiba umukiriya ndetse hari n'injerekani hamwe n'ibitunguru na tungurusumu byegereye uwo munzani.

Umurima uhinze ku buso bunini cyane kandi uhinzemo igihingwa cy'intoryi ndetse harimo umuntu wunamye, ari kureba uburyo intoryi zeze, hirya yaho hari ishyamba hamwe n'insina zigiye ziteye muri uwo murima ndetse n'ibigori.

Ahacururizwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hari imyebe ya kijyambere iri kuri shitingi ndetse hari n'amatunda ari ku kirundo yegeranye n'ibikopetoro, hafi yabyo hari ikarito

Isoko ryubatswe ku buryo bugezweho, hari ahacururizwa imbuto nk'imyembe, amaronji ndetse hari umufuka upakiyemo amatunda kandi hari na pome z'amoko abiri.

Ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye, kandi hari n'ibiti birebire ndetse binini, biri muri ubwo busitani. Hagati yabwo harimo akayira, kubakishije amapave ndetse na fondasiyo yubakishije amabuye.

Isoko ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, hari ahacuruzwa imbuto z'ubwoko bwinshi, harimo imineke, watermelon, amatunda ndetse n'amacunga, kandi muri iryo soko harimo abantu b'ingeri zose.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'umukara kandi kiri ahantu mu busitani burimo indabo nziza, hirya yizo ndabo hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abantu bunamye bari kureba ahantu bahombetse ingemwe kugira ngo barebe ko zakuze zigeze igihe cyo kugemurwa kandi hari rozwari ebyiri zifite ibara ry'icyatsi, ziteretse hagati y'izo ngemwe ndetse hejuru yaho hagiye hubakishije ibiti.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, harimo ibitunguru byeze neza ndetse byatanze umusaruro ku muntu wabihinze, birambitse kuri shitingi ifite ibara ry'ubururu, kandi hirya y'ibyo bitunguru hari ibase nayo iri mu ibara ry'ubururu.

Ahantu hari ibiti byinshi by'amoko atandukanye, harimo gereveriya ndetse n'amapera hamwe n'ibindi, kandi aho hantu hari n'ibyatsi hamwe n'amazu asakaje amabati y'umutuku.

Umugabo n'umugore bari mu murima w'ibishyimbo, barimo kubibagara kugira ngo bizatange umusaruro, kandi hirya yabo hari amazu amwe asakarishije amabati ndetse hari n'andi asakarije amategura, hari imiyenzi hamwe n'ibiti.

Umugabo wambaye ingofero ndetse n'ipantaro by'umukara kandi yambaye ishati idodesheje mu gitenge irimo amabara atandukanye, ahetse ipombo, ari kugenda atera umuti inyanya ze, hirya ye hari ibiti ndetse n'urubingo.

Umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto, ahagaze mu murima w'inyanya wahinzwe ku buryo bugezweho bwa kijyambere. Izi nyanya zeze neza uretse ko hari izindi zikiri ibitumbwe ariko nazo igihe nikigera zizahisha bazijyane ku isoko.

Ahantu hahinze akarima k'igikoni kariho imboga rwatsi zeze neza kandi hirya yazo hari igikuta gisize umucanga kandi imboga zifashishwa mu gihe abantu bari gutegura indyo yuzuye.

Pavuro barambitse ahantu ku mwenda ufite amabara atandukanye harimo ibara ry'umutuku umukara, umweru n'ayandi ndetse izi pavuro zifasha umuntu mu gihe ari gutegura indyo yuzuye.

Abantu bari aho bahumbitse ingemwe, baje kureba ko igihe cyo kuzigemura kigeze ngo bazijyane mu murima bahinze wo kuziteramo, harimo umuntu wambaye agatambaro mu mutwe karimo ibara ry'umweru n'umukara kandi hari n'umugabo uhagaze hirya yabo.

Mu isoko ahacururizwa imbuto z'amoko agiye atandukanye, muri izo mbuto harimo imyembe, amatunda, ibikomfotoro, pome z'amoko abiri ndetse hari n'amacunga.

Ahantu hahinze imboga rwatsi ndetse zimwe zarakuze, izindi ntabwo zirakura, ziracyari ntoya, hirya y'aho hantu hari igihuru ndetse hari n'inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite n'imiryango ikinguye.

Abantu bunamye higanjemo abagore harimo uhetse umwana, bari kugemura ingemwe zabo kugira ngo bajye kuzitera aho batunganije umurima wo kuzigemuramo, iruhande rwabo hari umwana muto uhagaze ari kubareba.

Ibihaza bitondetse ku murongo, harimo ibito ndetse n'ibinini kandi muri ibyo bihaza hari icyo ikiganza cyakozeho, hejuru yabyo hari umufuka uri mu mabara atandukanye, ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi.

Umurima uhinze ku buso bunini cyane ndetse uhinzemo igihingwa cya pavuro, kirasasiye neza ku buryo uwagihinze yitezemo umusaruro uhagije kubera ko yahinze ku buryo bugezweho.

Ahacururizwa ibiribwa bizwi nk'imbuto ndetse hari imyembe myiza cyane hamwe n'amatunda n'amacunga kandi ubicuruza bimugirira akamaro kubera ko bimuha inyungu.

Umwenda uriho avoka ndetse uri mu mabara agiye atandukanye, muri ayo mabara harimo umweru, umutuku, umukara ndetse n'ibara rijya gusa n'umuhondo.

Iyo umuntu ari guteka yifashisha ibibiringanya kugira ngo ategure ifunguro riryoshye kandi rifite intungamubiri, iyi base ifite ibara ry'icyatsi kandi irimo ibibiriganya byeze neza.

Ibiribwa bizwi ku izina ry'imboga birimo karoti, imiteja, pavuro ndetse hari n'imbuto twavugamo nka pome hamwe n'iseri ry'imineke, kandi birambitse ku gitenge kiri mu mabara atandukanye gishashe kuri sima.

Umugore wikoreye ibase ifite ibara ry'icyatsi, harimo umusaruro avuye gusarura mu gishanga. Kandi inyuma ye hari ahahinze umuceri ku buso bunini, kimwe mu bihingwa biteza imbere umuhinzi.

Ikiganza cy'umuntu gifashe ibitunguru ari kureba umusaruro we yahinze kandi ashimishijwe na wo. Hirya ye hari ahantu, hari ibiti, ndetse n'ibyatsi.

Ahantu hari ibyatsi byinshi byinshi bigiye bitandukanye, kandi hari na fondasiyo yubakishije ibiti, ndetse muri ibyo byatsi harimo ipoto y'amashanyarazi, hirya yayo hari igihuru cy'uruzitiro.

Imbuto ni kimwe mu byifashishwa mu gihe umuntu ari gutegura indyo yuzuye, imyembe rero ivamo ibintu bigiye bitandukanye, kuko hari amaji bakora mu myembe kandi atanga umusaruro.

Ahantu hahinzwe inyanya ku buso bunini ndetse havanzemo n'ibigori hamwe n'imyumbati, hafi y'izo nyanya hagiye hari ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'ibyatsi, hakurya hari umusozi uteyeho ishyamba.

Umukobwa uri guseka, yambaye ikote rifite ibara rya kake. Mu biganza bye byombi afashemo ibikomfutoro byeze kandi inyuma ye hari ibyatsi by'amoko atandukanye.

Ahantu hari imboga rwatsi, abaganga bagira inama abantu yo kurya imboga kubera ko zibafasha kwirinda imirire mibi, ndetse no kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Inyubako icururizwamo ibyo kurya bigiye bitandukanye bizwi ku izina ry'imboga, hari ibase ifite ibara ry'umutuku irimo cocombre ndetse hari indi irimo imiteja hamwe n'indi irimo pavuro.

Umucuruzi warambuye shitingi aterekaho inkoko ndetse kuri izo nkoko ashyiraho imbuto zigiye zitandukanye, harimo imineke myiza iri ku iseri ndetse n'inyembe ari gucuruza.

Ibase rifite ibara ry'umutuku irimo intoryi kandi iruhande rwayo hari na karoti, izi mboga zikoreshwa mu gihe umuntu ari gutegura indyo yuzuye kandi zikamufasha kwirinda ingaruka zo kuba yahura n'imirire mibi.

Amatunda ni kimwe mu bihingwa bituma abantu tugira ubuzima bwiza, kuko kidufasha mu kubaho neza dufite ubuzima buzira umuze. Kandi ku muntu wagihinze asagurira amasoko bityo bigateza imbere Igihugu.

Imifuka myinshi yagiye itanditseho intoryi, karoti, inyanya biri ku mifungo, inshuro nyinshi usanga iyi mifungo igura igiceri cy'ijana cy'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se magana abiri.

Abantu bahagaze harimo abagore n'abagabo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye hagati yaboko hari akarima k'igikoni bose bari kukifotorezaho kandi inyuma yabo hari ibiti n'ibyatsi by'amoko agiye atandukanye, kano karima k'igikoni gafasha mu kurinda imirire mibi.

Abantu babiri basutamye, aho bahumbitse ingemwe, bagiye kuzibumbukura bajya kuzitera, ahantu bahinze umurima utunganije neza kandi inyuma yaho hari umugore wunamye ari guhinga ndetse hari n'ibyatsi bihakikije.

Pavuro ziteretse ku nkoko kandi hari ikiganza cyafashe kuri pavuro imwe ndetse hasi y'iyo nkoko, hari imifuka y'amabara agiye atandukanye, hari ufite ibara ry'umuhondo n'icyatsi ndetse n'undi ufite ibara ry'umweru.

Ahacururizwa ibiribwa bizwi nk'imboga. Harimo ibitunguru by'amoko agiye atandukanye, kokombure, epinari, pavuro ziri mu ibasi ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'imiteja iri mu ibasi ifite ibara ry'ubururu.

Imirima iteyeho ibihingwa bigiye bitandukanye, hari ahateye karoti ndetse zerera mu butaka, aho zitanga umusaruro uhagije mu gihe zahinzwe neza. Ziba zifite amababi y'icyatsi kandi hari n'ahahinze imigozi y'ibijumba hirya yaho hari igisambu.

Umugabo wambaye igisurubeti gifite ibara ry'umukara ndetse ari gutera umuti ibigori kugira ngo bizatange umusaruro kandi binarindwe indwara zibifata ndetse hirya ye, hari abandi bantu batandukanye.

Umugore wambaye ikanzu ndetse ateze agatambaro mu mutwe, ari guseka hirya ye hari umurima w'ibigori bitarera bikiri bito, kandi inyuma ye hari igihuru.

Umugore uri kuvomera ibihingwa yateye, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umuhondo ndetse mu mutwe atezemo igitambaro, kandi mu kuboko kw'ibumoso afashemo indobo y'umukara irimo amazi.

Robine iri mu murima ahantu hahinze ibigori. Kandi iri kuvomerera ibyo bigori, kugira ngo bizatange umusaruro. Uretse ko, uwo murima uvanzemo n'ibindi byatsi.

Umugabo uri mu murima we yahinzemo ari kuvomera igihingwa yateye kandi yambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara hirya ye hari indi mirima irimo ibyatsi hamwe n'igiti.

Abagabo batatu bafashe igihombo, bari kuvomera ibigori, ndetse muri ibyo bigori hagiye havanzemo n'indi myaka kandi umwe muri abo bagabo ari guseka, hakurya y'uwo murima hari ibiti ndetse n'indi mirima.

Umugabo n'umugore bari mu murima bahinzemo ibitunguru ndetse havanzemo n'amashu, bari kuvomera kugira ngo bizatange umusaruro mwiza kandi hari n'insina ziri hirya yabo, ndetse n'ishyamba riri hakurya.

Abantu bari kuvomera mu murima bahinzemo amashu, kandi harimo umugabo wambaye igisurubeti cy'ubururu, ndetse n'ingofero y'umukara. Iruhande rwe hari undi muntu wambaye umupira w'umweru, kandi hirya yabo hari ibimera bitandukanye hamwe n'ibiti.

Umusozi mwiza uhinzeho ibimera bigiye bitandukanye, imirima imwe ntabwo ibyo bahinzeho biramera indi byarameze kandi hari n'amashyamba, mu gishanga hari umwana uhagaze inyuma y'umubyeyi we uri guhinga.

Umugore ukenyeye ibitenge bifite amabara atandukanye, afite isuka ku rutugu rw'ibumoso ndetse hari ahantu hari ibyatsi by'amoko atandukanye, ari kwerekeza mu murima uteyemo ibigori kandi hakurya ye hari umusozi uteyeho ishyamba.

Ahantu hagari, hahinze ibimera bigiye bitandukanye. Hakurya yaho hari amazu menshi bigaragara ko ari umudugudu utuweho n'abantu kandi hari n'amashyamba ari hagati y'ayo mazu.

Ahantu hari umuhanda wa kaburimbo ndetse urimo abantu bari gusiganwa ku magare. Umuhanda ukikijwe n'ibiti n'ibyatsi bigiye bitandukanye kandi ahagana ruguru y'uwo muhanda hari igihingwa gihinze ku buso bunini.

Igishanga kirimo ibihingwa bigiye bitandukanye kandi hari ahahinze umuceri ku buso bunini, hakurya y'icyo gishanga hari amashyamba ateye ku musozi uhari ndetse mu bihingwa biri muri icyo gishanga harimo insina, ibigori n'ibindi.

Ahantu hari imirima myinshi igiye itandukanye kandi ntabwo yose ihinzeho ibintu bimwe kubera ko hari ahahinze urutoki ndetse hari n'ahandi hagiye hari ibiti kandi hari n'ahandi hari ibindi bihingwa.

Imirima igiye itandukanye ariko ihinzweho ibihingwa bimwe, abantu barifatanya bagahinga igihingwa kimwe kugira ngo bazabashe kweza kandi bagire umusaruro ufatika, iyi mirima igiye ivanzemo ibiti bivangwa n'imyaka.

Umusozi mwiza cyane uhinzeho amashyamba ndetse hari n'imirima abaturage bahingaho, kandi mu gishanga cy'uwo musozi harimo abahinzi bari guhinga ndetse hari n'ahari amazu abantu batuyemo.

Ahantu hari ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo igishanga gihinziho umuceri ku buso bunini kandi hirya y'icyo gishanga ahagana ruguru hari amashyamba, urutoki ndetse n'amazu atuwemo n'abantu.

Ahantu hanini cyane hari ibyatsi bitoshye kandi hakurya y'aho hantu hari imisozi igaragaza ubwiza bw'igihugu cy'u Rwanda, ikaba ariyo mpamvu u Rwanda rwitwa igihugu cy'imisozi igihumbi.

Ikibaya cyiza gihinzweho ibihingwa bitandukanye higanjemo umuceri uhinze ku buso bunini. Hakurya y'uwo muceri hari amashyamba, insina ndetse n'indi mirima y'abaturage.

Umusozi mwiza uhinzwe mu buryo bwa kijyambere, ugiye uriho ibimera bigiye bitandukanye kandi muri byo harimo insina ndetse n'ibiti by'ubwoko bwinshi.

Ahantu ku musozi hahinze ku buryo bugezweho. Hateye ibyatsi ndetse n'ibiti bihanda gutwarwa n'isuri mu gihe imvura yaguye. Kandi uretse no kuba ibi biti biharinda gutwarwa n'isuri, binafasha abantu mu kuyungurura umwuka duhumeka.

Ahantu mu cyaro hari inzu zisakaje amategura, kandi zikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye hamwe n'insina, hakurya y'izo nzu hari imisozi iteyeho ibihingwa by'ubwoko butandukanye.

Leta yashyizeho uburyo bwo guhinga bugezweho, aba bahinzi bari guhinga mu buryo bushobora kuzabaha umusaruro uhagije, ndetse ibihingwa bazashyira muri uyu murima bari gutunganya, bizabafasha kwiteza imbere.

Ahantu heza hari imirima itandukanye ndetse hari n'amazu abantu batuyemo, hirya yaho hari ishyamba, kandi ibihingwa bimwe byareze bitegereje gusarurwa, ibindi ntabwo birera neza.

Ahantu heza cyane hahinze imyaka igiye itandukanye kandi hari amazu asakaje amategura ndetse hari n'ishyamba kandi aho hantu hari n'urutoki.

Ikibaya cyiza gihingwamo imyaka igiye itandukanye, harimo abantu bari guhinga mu migende ndetse hakurya y'aho hari ishyamba rinini rituwemo n'abantu.

Inyubako isakarishije amabati kandi imbere yayo hari ibyatsi byinshi bihateye ndetse hakurya y'iyo nyubako hari amazu menshi atuwemo n'abantu, bigaragara ko ari mu mudugudu.

Imirima itandukanye irimo ibimera by'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, kandi muri iyo mirima hari ahahinze ndetse n'ahadahinze, kandi harimo ipironi rishinze muri iyo mirima.

Inka iri mu kiraro ifite amabara abiri, ku gutwi kw'iburyo hariho iherena ry'umuhondo kandi iyi nka iri mu kiraro cyubakishije ibiti ndetse bivanzemo n'icyondo.

Ikiraro cyubakishije ibiti ndetse amatungo agomba kugira aho yororerwa, hakagirirwa isuku kugira ngo ayo matungo agire ubuzima bwiza.

Inka iri mu kiraro ndetse icyo kiraro kirimo n'inkoko yabunze, cyubakishije ibiti kandi hirya hari urugo rw'imiyezi, inyuma yarwo hari imirima irimo ibimera bitandukanye.

Abagabo n'abagore benshi bari ahantu mu byatsi kandi bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye, bakoze uruziga hagati yabo harimo ihene, bamwe muri bo bazifashe ibiziriko kandi hirya yabo hari ibiti.

Umugore ukenyeye igitenge kirimo amabara agiye atandukanye, ndetse yambaye agapira k'amaboko magufi n'ingofero, kandi iruhande rwe hari imbabura, ari aho yororera imishwi, ndetse igikuta cy'aho hantu cyubakishije amatafari ya rukarakara.

Ihene ebyiri iy'umukara iri ahantu batwikiye ibyatsi hari ivu ndetse indi iziritse ku giti iryamye ahantu hari ibyatsi byumye, hirya yayo hari igikuta cyubakishije amatafari ya rukarakara ndetse n'ikiraro cyubakishije ibiti.

Ihene ebyiri zifite amabara agiye atandukanye. Ziri ahantu hari ibyatsi ndetse aho hantu hari igicucucucu, hirya yaho izuba riri kuhava kandi zegereye igikuta.

Abantu bambaye imyenda yiganjemo umukara n'ubururu bari ahantu hubatse ikiraro cyubakishijwe ibiti ndetse gisakajwe amabati, hirya yabo hari uruzitiro rw'imiyenzi kandi hari n'insina.

Umwana uri kujugunyira ibigori inkoko kugira ngo zitore, hirya ye hari ababyeyi be ndetse mama we yambaye imyenda iri mu mabara atandukanye kandi papa we afite ubwatsi mu kiganza agiye guha inka iri mu kiraro kibari hafi.

Ingurube ni zimwe mu matungo yororerwa mu nzu kandi atanga umusaruro ku muntu uyoroye kubera ko abona ibikomoka ku matungo ndetse mu gihe yayajyanye ku isoko, bikamuha amafaranga yo gukoresha ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Ikiraro bororeramo ihene z'ubwoko butandukanye kandi muri icyo kiraro harimo ubwatsi izo hene zirya, cyubakishije ibiti byumye kandi bikomeye.

Ahantu hari inzu ifite urugi n'idirishya bisize irangi ry'ubururu, kandi hejuru yabyo hari amakositara n'itara, ndetse imbere hari urutoki n'ihene ziziritse muri urwo rutoki.

Ikiraro kirimo inka yambaye iherena kandi iri kurya ubwatsi iburira muri manjwari, icyo kiraro cyubakishije ibiti byumye kandi inyuma yacyo hari ibimera bitandukanye.

Inka iri mu mabara atandukanye kandi iri mu kiraro cyayo cyubakishije ibiti, ndetse hari igikuta giteye icyondo, kandi iyo nka ahantu iri hashashe ibyatsi bizatanga ifumbire.

Ingurube ibarirwa mu matungo magufi, kandi mu gihe umuntu yoroye rino tungo, rishobora kumuha umusaruro uhagije, mu gihe yagiriye isuku, kandi akabona ibikomoka ku matungo, harimo nk'uruhu ndetse n'inyama.

Ahantu hari ingurube ndetse hari n'ibiti byumye, kandi hirya y'iyo ngurube hari itsina n'ibiti bigiye bitandukanye, iri tungo ni rimwe mu riteza imbere umuntu rimuha ibikomoka ku matungo, harimo uruhu, inyama n'amavuta.

Ahantu haziritse ihene iri mu mabara atandukanye kandi hari n'uruzitiro rwubakishije imiyenzi, inyuma yarwo hari ibyatsi by'amoko agiye atandukanye.

Ahantu hari ingurube ebyiri zihororerwa ndetse zinatanga ifumbire. Umworozi wazo, abona ibikomoka ku matungo, harimo n'inyama kandi mu gihe azijyanye ku isoko, zimufasha kubona amafaranga.

Ahantu hari inka ndetse hari umugabo ufite inkoni mu ntoki, wambaye ikote ndetse n'agapira gafite ibara ry'umutuku mo imbere, hari abagore bakenyeye ibitenge, hirya yaho hari inzu ndetse n'urugo rw'imiyenzi.

Umugabo wambaye agashati k'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, ndetse afashe inka kandi hirya ye hari abana harimo uwikoreye injerekani y'amazi, ndetse hari n'urugo rufite uruzitiro rw'imiyenzi.

Umuntu wambaye umupira uri mu mabara atandukanye ndetse afashe ku itungo ry'ingurube, iri tungo rifasha umworozi waryo mu kwiteza imbere ndetse agateza imbere n'igihugu muri rusange.

Mu gihe umuntu yiyemeje korora ingurube, agomba kuyigirira isuku kugira ngo izamuhe umusaruro uhagije, ndetse iri tungo ni rimwe mu matungo magufi yoroshye kuyorora.

Ihene iziritse ku ngororobeko ifite amabara atandukanye, iri ahantu hatari ubwatsi kandi hirya yayo hari uruzitiro rw'imiyenzi ndetse hari n'ahari ibyatsi byumye.

Umugabo uhagaze imbere y'ihene iri kurisha, kandi inyuma ye hari amazu hamwe n'intsina ndetse n'ibimera bigiye bitandukanye; uwo mugabo yifubitse umupira ufite ibara ry'umukara.

Ubworozi bw'ingurube bworowe mu buryo bugezweho bugira umusaruro ku gihugu ndetse no ku mworozi muri rusange kandi butanga ibikomoka ku matungo harimo impu ndetse n'inyama.

Inkoko y'isake iri ahantu hafi y'umuryango ukinguye, ifite amabara atandukanye ndetse ifite n'ibirokoroko kandi iyi ngiyi ni yo babangurira ku nkoko kazi kugira ngo izabashe guturaga amagi.

Umuryango w'abantu batatu umugabo, umugore ndetse n'umwana wabo, bose bari kwita ku ngurube boroye kandi hirya yabo hari aho bayororera kandi iyo nzu iri inyuma yabo yubakishije amatafari ya rukarakara.

Abantu babiri umugabo n'umugore, bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye, umugabo yegamye ku kiraro cyubakishije ibiti kandi gisakaje amabati kirimo inka.

Inkoko ziri hafi y'umuryango muri zo harimo n'imishwi kandi mo imbere mu nzu hari amabase afite ibara ry'umutuku, ndetse urugi na rwo rusize irange ry'umutuku.

Inkokokazi iri kugendera ahantu hari igitaka kandi hirya yayo hari igicucucu cy'inkoma z'insina kuberako izuba riri kuva, kandi iyi nkokokazi ishobora gutanga ibikomoka ku matungo harimo inyama, ndetse n'amagi.

Ikiraro kirimo inka ebyiri ndetse imwe yambaye iherena ku gutwi kw'ibumoso, kandi icyo kiraro cyubakishije ibiti, uretse ko hari igikuta cyubakishije amatafari ya rukarakara, izo nka ziri kurisha ubwatsi.

Ikiraro kirimo inka nyinshi ndetse hirya yazo hari abantu bahahagaze bari kureba uburyo zimeze, hari n'ibigega bibiri bifata amazi ndetse hari n'inkoko hamwe na dendo.

Ikiraro cyubakishije ibiti byumye kandi kirimo inka ifite amabara abiri iry'umukara ndetse n'iry'umweru, kandi ku gutwi kwayo kw'ibumoso ifiteho iherena.

Ahantu hari ihene ziri kurisha mu byatsi bitoshye, ndetse hari n'abantu baziragiye bari hirya yazo, hari umuntu uri gukaraba hafi y'ikigega gifite ibara ry'umukara, ndetse aho hantu hari n'indabo.

Ingurube yabwaguye ibibwana biyiri iruhande, kandi iri tungo ni rimwe mu matungo y'ingirakamaro kubera ko turikuraho bimwe mu bikomoka ku matungo nk'inyama ndetse hari n'igihe umuntu ayijyana ku isoko, rikamuha amafaranga.

Inka ifite amabara atandukanye, iri mu kiraro cyubakishije ibiti byumye, kandi iri kurisha, hirya y'icyo kiraro hari imiyenzi yubatse urugo, kandi hari n'ibindi byatsi bitandukanye.

Ingurube ya kizungu yasohotse mu kiraro cyayo, iri kwerekeza ahantu mu muhanda kandi icyo kiraro cyubakishije ibiti ndetse gisakarishije amabati, hafi yacyo hari insina ndetse n'ibiti bitandukanye.

Ikiraro cyubakishije ibiti ndetse, harimo inka ndetse, iri kurisha ubwatsi muri manjwayi. Iruhande rw'icyo kiraro hari abantu batandukanye, harimo umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umukara. Hirya yabo hari ikigega gifata amazi.

Inkoko ziri mu rugo runini ahantu hisanzuye, hari ibyatsi ziri kurahamo kugira ngo zitoremo ibyo zirya, hafi yazo hari ikigega cy'umukara ndetse hari n'agatebe k'urubaho kari mu biti.

Umugore n'umugabo bahagaze hafi y'ikiraro ndetse inyuma yabo hari inzu. Uwo mugore afashe ikiziko cy'ihene mu gihe umugabo we yambaye imyenda iri mu mabara agiye atandukanye. Inyuma yabo hari ibyatsi ndetse n'urutoki.

Ahantu hanini hubatse ku buryo bugezweho, hari umuntu wambaye imyenda iri mu mabara atandukanye kandi bigaragara ko hakorerwa ubworozi bw'inkwavu, hubatse neza mu buryo hazajya habasha kurinda izo nkwavu.

Ihene iziritse ku giti iri ahantu hari ibyatsi byumye kandi hari no kuva izuba, hirya y'aho hari ibimera bigiye bitandukanye ndetse ahagana hirya hakaba hari ibihuru.

Ahororerwa ingurube ni hamwe mu hantu hagomba kugirirwa isuku kugira ngo aya matungo abeho mu buzima bwiza kandi ikindi iyo ingurube zitaweho zitanga umusaruro ku mworozi wazo.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe uteze igitambaro mu mutwe, kirimo amabara agiye atandukanye harimo iry'umutuku, iruhande rwabo hari aho bororera inkwavu ndetse zigaragara nk'aho ari inkwavu zorowe ku buryo bwiza ku buryo zizatanga umusaruro.

Umwana w'umukobwa ufite inkoni ndetse yambaye n'ikanzu, afite ubwatsi mu kuboko kwe kw'iburyo, hirya ye hari inka ndetse n'umugabo uri hafi y'ikiraro cyubakishije ibiti.

Inka iziritse ikiziriko mu ijosi, ku gutwi kw'iburyo yambayeho iherena kandi ihagaze mu byatsi ndetse hirya yayo hari igikuta cyubakishije amatafari ya rukarakara.

Aho bororera ingurube hubakishije ibiti ndetse hirya y'aho hari ibyatsi n'ifumbire iyo ngurube itanga, iyi nyamaswa itanga ibikomoka ku matungo harimo inyama, impu n'ibindi.

Inka iri mu mabara atandukanye ndetse iri mu kiraro cyubakishije ibiti, mu kiraro harimo ibyatsi inka bayisasiye kandi hirya y'icyo kiraro hari ibiti bifite amababi y'icyatsi.

Abagabo bafite inkoni ndetse hari n'umugore uhetse umwana yitwikiriye n'umutaka, bose bahagaze hagati y'inka kandi hirya yabo hari amazu ndetse n'abandi bantu bari kugenda mu muhanda.

Abantu bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, bose bafite inkwavu, bazizamuye bari kuzerekana ndetse bamaze kuzigura kubera ko begereye aho zororerwa. Izi nkwavu zorowe neza none bazigurishije amafaranga.

Ikiraro cyubakishije ibiti bike, ndetse hari aharunze ubwatsi inka irya. Mu kiraro harimo akanyana hamwe na nyina, kandi ako kanyana bigaragara ko kavutse vuba.

Ihene ziri mu moko atandukanye hari isekurume ndetse n'inyangano kandi ahantu ziri ntabyatsi bihari ahubwo hari ivumbi kandi hirya yaho hari ahantu hasize irangi ry'icyatsi.

Iyo umworozi w'ingurube azifashe neza akazigirira isuku bizifasha gutanga umusaruro uhagije ndetse akabona inyungu akuye mu korora ingurube, zitanga ibikomoka ku matungo harimo nk'inyama ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'icyatsi, kandi yambaye n'ipantaro y'umukara, asutamye iruhande rw'ingemwe yahumbitse, ari kureba ko zageze igihe cyo kugemurwa, hirya ye hari umugore wambaye imyenda y'imutuku uri kuvomera.

Umurima uhinzwemo inyanya za kijyambere. Izi nyanya zatanze umusaruro kubera ko zeze neza, ndetse nibazijyana ku isoko igihe bazaba bazisaruye, zizahesha amafaranga ahagije nyir'umurima.

Igihingwa cy'imyumbati gihinze ku buso bunini cyane kandi gihinze mu buryo bwa kijyambere, iki gihingwa gifasha umuhinzi mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu cye, mu gihe yagihinze akabona ibyo kurya ndetse agasagurira n'amasoko.

Umusaruro mwiza w'ibigori byeze neza kubera ko babihinze mu buryo bugezweho, biranitswe mu gihe bategereje ko byuma kugira ngo hazabeho igihe cyo kubihungura.

Hari ibihingwa bibanza gushyirwa mu buhumbikiro mbere y'uko babishyira mu murima wabugenewe, izi ngemwe baziteye aha ngaha kugira ngo igihe cyo kugemurwa nikigera bazahinge umurima ni bamara kuwutunganya bazigemuriremo.

Umugabo wunamye ari kureba uko ihene zimeze kandi hari n'undi ufite ikiziriko ari gukurura indi. Hirya yabo hari umwana wambaye imyenda yiganjemo ibara rya kaki ndetse hirya ye hari umugore ukenyeye igitenge uri kugenda mu muhanda w'igitaka.

Umugore wambaye isengeri y'umukara, ndetse afashe inka kugira ngo umuvuzi w'amatungo uzwi ku izina rya veterineri ayitere iherena ku gutwi, inyuma yabo hari inzu ndetse n'ibase ifite ibara ry'ubururu.

Mu rwuri aho bororera inka, ndetse hari inka zigiye zitandukanye, aho hantu hari n'abantu bashinzwe kwita kuri izo nka, hirya y'urwo rwuri, hari amazu atuwemo n'abantu.

umugabo wambaye bote z'umweru n'igisurubeti cy'umukara. Yahuye inka agiye kuyiragira kandi inyuma ye hari undi mugenzi, hirya ye hari ipironi hamwe n'uruzitiro rw'imiyenzi n'ibiti.

Umugabo wambaye igisureti gifite ibara ry'ubururu, kandi mo imbere yambariyemo agapira gafite ibara ry'umweru, ari ahororerwa inkoko, ndetse hejuru ye hari itara riri kumurika.

Umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse inyuma hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru hari ahacururizwa ibintu bigiye bitandukanye bikenerwa mu buhinzi.

Icyumba kirimo abantu babiri, umwe yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru, undi yambaye igisurubeti gifite ibara ry'ubururu. Afashe igikombe mu ntoki ndetse icyo cyumba gicururizwamo ibyerekeranye n'ubuhinzi.

Umuganga w'amatungo, uzwi ku izina rya veterineri. Yambaye igisurubeti gifite ibara ry'ubururu. Ndetse ari gusuzuma inka ngo amenye uburwayi afite. Kandi hirya ye hari ibiti bigiye bitandukanye.

Umuganga w'amatungo uzwi ku izina rya veterineri, yaje gusuzuma inka kugira ngo arebe ikibazo ifite, ndetse ari aho bororera iyo nka, yambaye bote zifite ibara ry'umweru, ipantaro y'umukara n'agapira karimo amabara atandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse arasutamye iruhande rw'inka. Inka ni itungo riba rigomba kwitabwaho, bakarikukira kugira ngo ribe ahantu heza maze ritange umusaruro uhagije harimo nk'amata ndetse n'ibindi.

Imisozi myiza miremire kandi iteyeho n'amashyamba, ibi ni bimwe mu bituma bavuga ko u Rwanda ari urw'imisozi igihumbi, kubera ukuntu imisozi yaho ikurura ba mukerarugendo kandi iba inogeye ijisho.

Ahantu hari ibyatsi ndetse n'ibihuru kandi hari inyamaswa y'igasozi, izwi nk'inzovu kandi iyi nyayamaswa igira uruhare mu kwakira amadovize kubera ko ikurura bamukerarugendo ndetse izwiho kuba ari inyamahoro.

Inkende iri ku nyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse isakaje amabati, hakurya y'iyo nyubako hari izindi nzu nyinshi zigiye zitandukanye ziteye hagati y'ibiti by'amoko menshi.

Inyamaswa z'igasozi ni zimwe mu zidufasha gukurura ba mukerarugendo, zikunze kuba mu maparike ndetse iyo ba mukerarugendo baje kuzireba basiga amadovize.

Imbwa ziri mu byatsi ndetse zegereye agahanda k'igitaka, hirya yazo hari igiti gihagaze ndetse hari n'umuntu uri kuri moto kandi hari n'inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse na fondasiyo y'amabuye.

Igisambu kinini cyane kirimo ibyatsi byumye, kandi muri icyo gisambu harimo ihene baje kuragiramo, ndetse izo hene zifite ahantu ziri kureba bisa nk'aho zaharangariye.

Ahantu hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse hafi yacyo hari ibyatsi birimo imbwa, abantu benshi bakoresha imbwa kugira ngo zibashe kubarindira umutekano wabo ndetse n'uw'ibintu byabo.

Inyamaswa ziba muri parike mu Rwanda ni zimwe mu zikurura ba mukerarugendo bityo tukabona amadovize. Muri izo nyamaswa harimo imparage ndetse n'impara kandi abakerarugendo baje mu Rwanda kureba izo nyamaswa bataha bishimye.

Imbwa iri mu byatsi byinshi ndetse yafashe agakwavu, igiye kukarya kandi imbwa ni imwe mu nyamaswa zikunda inyama kandi zo kwitonderwa kuko ishobora no kurya umuntu mu gihe yayiyenjejeho.

Zimwe mu nyamaswa z'igasozi harimo n'iziguruka, iyi nyoni ifite ibara ry'umukara n'umweru kandi ku munwa wayo ahagana ku jisho hari ibara ry'umuhondo, ihagaze ku giti cyumye ndetse hirya hakurya yayo hari ibihu.

Ikiraro kiri hejuru harimo abantu baje gusura aho icyo kiraro kiri kandi gikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye, muri abo bantu harimo abagabo babiri bambaye ingofero zifite ibara ry'umukara.

Ahantu hari umwijima cyane ndetse hari n'inyamaswa y'igasozi yitwa igihunyira. Kigira amaso manini kandi bivugwa ko kibona nijoro gusa. Gihagaze ku ishami rinini cyane ry'igiti.

Abantu benshi usanga bakoresha imbwa kugira ngo zibarindire umutekano, kubera ko imbwa zimenya igihe umujura aje kwibira hanyuma zikamoka.